Akabari kicuruzwamo inzoga karimo intebe n'ameza, ameza ariho ibirahuri n'amatara ya miviringo, hari n'ururabo rusa nk'icyatsi hagati y'imeza.

Inzu y'urunywero cyangwa se akabari. Akabari ni inzu aho ushaka icyo kunywa, agenda agasaba na bo bakamuha bihuje n'amafaranga afite. Akabati kabikwamo inzoga z'amarikeri, akabati k'ibirahuri kagaragaza ishusho ya nyayo y'inzoga, umuntu agiye kugura iyo ariyo.

Ibiryo bitetswe, n'ibiryo biri mu bwoko butandukanye harimo: inyama, ifi, umuceri , ndetse namagi. Ibi bikaba ari ibiryo cyane cyane n'abantu bifite kuko biba bihenze cyane.

Umugore uri gucuruza wambaye ishati y'amabara ari gucuruza ibintu birimo udukombe dusa orange, hari nutw'umukara hasi, ndetse imbere ye hari igitabo kiriho ifoto y'umugore kumeza y'umukara.

Inzu irimo amatara ari kwaka umuhondo, irimo na tapi z'umutuku, ikaba irimo uduce tugiye dutandukanye, ni inzu z'ubucuruzi ahanini zikoreshwa mu gihe hacuruzwa ibyo kunywa ari ku kabari.

Befe cyangwa se ihuriro ry'ibisorori byinshi birimo ibiryo by'amoko atandukanye: hari capati, hari imboga, hari inyama, hari ibirayi ndetse bikaba biteretswe no ku meza atatsweho indabo z'umweru ndetse n'izi'icatsi. Ubu bikaba ari uburyo bukoreshwa aho abatashye ikirori cyangwa se ubukwe ba biyarurira bakajya kurira mu myanya yabo.

Akabari k'amarikeri gacururizwamo inzoka z'amoko atandukanye konyage, maripu makadi ziri mu birarahure mu tubati tw'ibirahure zaka amabara y'ubururu ninjoro.

Akabyiniro ,akabyiniriro karimo bande irimo kuririmba ,igizwe n'abahungu bagera kuri batanu, ndetse nyuma yabo hakaba hari n'abahungu babiri bari kubacurangira. Ibi ngibi bimenyerewe akenshi kenshi mu tubari, aho abacuranzi bacuranga injyana runaka, baza bagataramira abaje gufata icyo kunywa mu masaha y'umugoroba, ndetse n'amatara y'amoko atandukanye arimo anyabiriza.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bitandukanye ari ibikoresho byo mu gikoni: imyuko, utumamiri, amasafuriya, indobo, imbabura, rakerete, imikubuzo, ibiroso ndetse igacururizwamo n'ibindi bitandukanye byo kurya: imiceri, kawunga, amafu, ibirayi ndetse n'ibindi bitandukanye aya akaba ari amaduka aba mu makaritsiye kugira ngo abahatuye babone ibyo bakosoma byihuse.

Inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ubucuruzi bwo kudoda ndetse no kugurisha ibyadozwe, urugero nk'amapantaro n'amashati aho biba bimanitswe hanze, kugira ngo urujya n'uruza rw'abantu bagende babona ibyo bakora hanyuma babigure.

Inzu y'ubucuruzi umuryango umwe ukorerwamo kampani ishinzwe gutega ya rakibeti, akaba ari kampani ikora itanga serivisi zo kubetinga mu buryo butandukanye harimo: gukora ari y'amakipe cyangwa se gutega ku bindi bintu.

Orazi Kofi resitorenti endi fasite fudu ni kampani ,cyangwa se ubucuruzi butanga serivisi z'icyo kunywa hakubiyemo ikawa, ibiryo bitekeweho ako kanya, ndetse n'ibindi ibyo ari byo byose by'amafunguro.

Inzu ya etaje igeretse kabiri, ifite inzugi z'umukara ndetse imbere yaho hariho ipoto ry'amashanyarazi ry'umweru, itanga serivisi zo gutanga imiti ku barwayi. Musanze farumasi lmitedi, hakaba hariho na tini namba ndetse na nomero na emeri ya musafaruma jimeyiri doti comu.

Inzu y'ubucuruzi y'ububiko, izwi nka sitoke, akaba arimo hadebye amacupa y'amazi manini ya jibu, ari mu mutudomora ndetse n'ari mu bicupa binini. Nanone hakaba habitswemo na gaze za Esipe, akaba ari gaze zifashishwa mu guteka mu rugo.

Iduka rikora ibyuma riterateranya ibyuma, bisana ibyangiritse bikanavugurura ibyashaje, akenshi na kenshi haba hariho ibyuma bigenda byifashishwa mu buhinzi birimwo amasuka igihe yakutse, baka bayasudira bakoresheje elegitoronike.

Inzu ifite imiryango eshatu, ifite imiryango y'ibirahuri by'umukara ndetse n'inzugi ziri mu mabara y'ubururu bwerurutse. Inzu ifite bandelori hejuru yanditsweho magole simiti maketi icururizwamo inyama.

Iduka rifite imiryango y'icyatsi rikaba hariho abamama babiri, ababyeyi babiri biteze nanone akaba ariwe mucuruzi w'umuntu wari kugenda afungura umufuka urimo ibirayi kugira ngo abihe umukiriya waje amugana wambaye umwenda w'umutuku hejuru. Akaba iduka ricuruza ibiryo bitandukanye, karoti, beterave, inyanya ibitunguru igitoki ndetse n'ibindi.

Inzu y'ubucuruzi itanga serivise y'icyo kunywa arapasi, amusiteri biya. Akaba ari inzu y'ubucuruzi itanga serivise zibinyobwa nanone ikaba ari inzu yegeranye n'urusengero ibumoso bwayo.

Inzu z'ubucuruzi ni santere bacuruza ibintu bitandukanye gaze ndetse n'imifuka irimo imyaka itandukanye cyangwa se za kawunga ni izi nzu n'inzu ziba ziherereye mu karitsiye kugira ngo zigende zifasha abahaturiye kubona ibyo bakeneye ku gihe.

Moto nyinshi ziparitswe hariho izifite abagenzi, n'izidafite abagenzi hari n'abantu bambaye kasike, babiri bambaye kasike z'umutuku, mu gipangu inyuma hariho urutoki.

Umumotari ufite ikasike y'icyatsi akaba yicaye kuri moto ya gikumi, akaba ari moto zitwara abantu n'ibintu ndetse akenshi akenshi izi moto zikaba ari zigezweho, na none akaba ari imbere y'inzu ifite urukuta rw'umweru n'umukara ndetse n'inkingi z'ubururu.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, bugiye butandukanye, urugero aha Fideli gaze shopu iduka ricuruza gaze, hakabaho kenkayori zamuka rimitedi, hakabaho na papeteri, nabeti, ibi byose bikaba ari ibintu bikorerwa, muri iyi nyubako nini y'ubucuruzi.

Ibipupe byambitswe amakanzu kugira ngo abakiriya bajye bareba ibyo bashimye aba ari byo bagura, imbere hari umugabo uri mu gatebe gafite amaguru asa nk'igitaka n'akabati iruhande rw'ibumoso gacururizwamo telefone z'amoko atandukanye.

Icyumba cy'ibicuruzwa hakubiyemo ibikoresho bikoreshwa mu cyikoni urugero nk'ijage, ibikombe bifite amabara asa ndetse n'ibyuma, n'amasafuriya n'ibiyiko ndetse n'amafoke.

Inzu zifite urugi rujya gusa nk'ikijuju, kandi urugo rufite n'urukuta rurimo amabuye ya oranje, asizwe sima isa n'umweru, inzu ifite amabati yakerebeye inzu ya kera.

Inzu y'umutuku iparitseho imodoka y'umukara imbere yayo. Inzu ikorerwamo ibikorwa byo kwakira abantu akabari, ndetse ikaba ifite ibirahure by'umukara.

Inyubako y'ubucuruzi itanga serivisi z'ibikoresho bya elegitoronike, bandroli zibigaragaza zigaragaza ibikoresho batanga amaradiyo, amaketo, amasharijeri, amakamera, ndetse n'ibindi bitandukanye. ni compani abiri iyitwa gadiwivasi elekitronikeshop, n'iyitwa gatarambwelegitonikeshop.

Inzu itangirwamo serivisi z'icumbi, ikaba ari inzu akenshi na kenshi, ziba ziherereye hafi y'imihanda. Aho abantu bari mu rugendo bashobora kwirirwaho , igihe kikabafata aho kugira ngo barare mu rugendo ,bakaba bajya kurara muri izi nzu zibazikodesha amacumbi .Kugira ngo bukeye basubukure urugendo rwabo ,no mu rwego rwo kwigirira umutekano.

Abaturage bakubiyemo abagabo, abagore bari mu muhanda. Ndetse inyuma y'aho bari kumwe n'urusengero rwa Katolike ndetse hakabaho na santire y'ubucuruzi, ndetse hakabaho n'umihanda ibiri aho iteraniye akaba ariho bari.

Abaturage bari kuzana imyaka yabo ku isoko, hakaba hari n'umumama ucuruza imyaka uri kugenda uyibagurira. Uko bigaragara ni udupfuka dutandukanye bigaragara ko harimo ubwoko bw'imyaka igiye itandukanye. Urugero: ibishyimbo, ibigori, soya, ingano ndetse n'ibindi. Akenshi hakaba ari uburyo bwo gukoreshwa n'Abanyarwandakazi mu gihe barimo bagurisha imyaka kugira ngo babone ibindi bakeneye.

Icyapa cyanditsweho salimu awuti fiti sitora, akaba ari icyapa kigaragaza serivisi zitangwa ko ari imyambaro itangwa muri awuti fiti sitora, aho imyambaro ibikwa ya kampani yitwa salimu.

Inzu y'ubucuruzi ifite urusika rw'amakaro ndetse ikaba ifite n'icyapa cya mitsingi cya Orempike moteri, iyi akaba ari moteri yitwa Orempic moteri, ikaba iriho utuvaze tubiri turimo imigano, akaba ari inzu itanga serivisi zo gutanga icyo kunywa mu bayigana.

Amarembo afunguye atewe ho ibiti bibiri bya pinusi ,arafunguye ariko hari ho urugi rusa nk'umukara ,hariho na bandelole iriho amafoto. Mu nda y'icyo gipangu, harimo inzu ya mugongo batemba. Ifite fondasiyo y'amabuye y'umukara, na sima y'umweru.

Bandelori z'umweru zanditsweho twigisha icyongereza ku buntu, andika muri yutubi yawe, raningi ingirishi wifu ramputi, iga icyongereza ku buntu byanditswe mu mabara y'umutuku ndetse na yutubi, mu gihe andika yawe ingirishi wifu ramputi na twigisha, byanditswe mu mabara y'umukara.

Gupakira imizigo, abasore babiri barimo barapakurura imizigo cyangwa se bayipakira, aho abasore babiri bari kugenda bakura ibintu mu modoka by'ikarito, kugira ngo ijye gucuruzwa ahandi hantu bivanwe aho biri. Ubu uburyo bukoreshwa n'amakampani iyo bashaka kugenda bageza poroduwi zabo, ku bantu bagiye batandukanye mu duce dutandukanye.

Isantere y'ubucuruzi ikubiyemo inzu zifite amabara menshi atandukanye. Umuhondo, icyatsi, umutuku, ubururu, ndetse n'ikijuju. Iyi santere akenshi na kenshi ikaba iri mu masantere yo mu makaritsiye ahantu hataragera umujyi.

Iinzu y'ubucuruzi ikorerwamo cyangwa se itangirwamo serivisi z'irembo, kuko hari banderore ibigaragaza ivuga ngo weli kamu tu Claudine savice buzinesi limitedi, abagabo barimo, serivisi batanga harimo beka, harimo beyaride, harimo aradibi, bakaba batanga serivisi nyinshi.

Inzu y'ubucuruzi icurizwamo imyaka ndetse n'umusaruro ukomoka ku bihingwa. Urugero ibishyimbo, ingano, soya, ibigori ndetse n'ibindi bitandukanye. Kandi iyi nzu y'ubucuruzi iriho umugabo ubu wambaye itaburiya y'ubururu ariyo akoresha mu kazi, ndetse ikaba ifite amabara y'amakara.

Butike icuruza ibyo kurya bitandukanye, ibyo kuriraho, urugero: Amandazi cyangwa se imikati, akaba ari cyane cyane ibiba biri mu makaritiye, kugira ngo ababikeneye babashe kubibona biboroheye, bitabanje kugira ngo batege.

Imodoka eshatu za dayihatsu z'ubwoko bwa Delita ziri mu mabara y'ubururu, izi akaba ari imodoka zifashishwa mu gutwara imizigo bayikura mu gace runaka, bayijyana mu tundi duce ,ndetse akaba ari imodoka zikunze gukorera ahantu h'icyaro hataragera kaburimbo, nanone ziri munsi y'igiti cya pinusi. Pinusi ni igiti gikomeye bakunze gukuramo imbunda, ibiti by'imbunda.

Inzu z'ubucuruzi akaba ari inzu iri mu mabara y'icyatsi, ndetse n'indi iri mu mabara asa nk'ivu ,imbere yaho hari abantu bacuruza ibyo kurya bikomoka ku bihingwa, akaba ari imyaka y'ibishyimbo ,ibigori se ndetse na soya ndetse n'ibindi byose ,aka ari uburyo aho abaturage bagenda bagura ,cyangwa se bakagurisha ibyo bejeje mu gihe cy'isarura.

Bandelore yanditseho kelema banderoli igaragaza ibyo abantu bakora ishushanyijweho, ndetse iri munsi y'ibiti by'inturusu, zakuriwemo n'indabo zisanzwe ziterwa mu rugo.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bitandukanye ,ariko akaba ari inzu ifunguye umuryango umwe ,ucururizwamo amarangi, dore ko handitseho kuri banderoli yabo ngo amakopenti ,akaba ari banderoli igaragaza ibyo bakora, ko bacuruza serivisi zo gutanga amarangi, ndetse no kuyaterera abantu.

Business irikugaragaza ibikorwa byayo, kuri bandeloli the colet with style akaba ari umutwa wa bandlore na none batanga serivisi zitandukanye, zirimo decration kwambika abageni gukora indabo, bagurisha impeta nziza, imodoka z'ubukwe sonnesation na live band ndetse hakaba na nomero wabasangaho ndetse n'amafoto avuga inshamake y'ibyo bakora.

Urugo rusakaje amabati ya kijyambere, n'amabati ameze nk'amategura, akaba ari urugo rufite imikindo myinshi mu mbuga, akaba ari urugo kandi nanone rutanga serivisi zitandukanye, nko kuhifotoreza ndetse n'ibindi.

Inzu y'ubucuruzi butike icuruza ibintu bitandukanye hakubiyemo amakuvuroli, intebe, amashenete, ibikapu, amakariso ndetse n'ingofero, udutambaro two gutega mu mutwe, izi akaba ari inzu ziba ziherereye ahantu h'umujyi.

Inzu iriho ikibambano gikozwemo mu rufunzo ndetse iriho na banderore igaragaza ibitangirwa muri iyo nzu resito bare biya, ikaba ariho n'icyapa cyanditseho murakaza neza. Akaba ari inzu itangirwamo serivisi itanga icyo kunywa ndetse n'ibiryo.

Farumasi icuruza imiti y'amatungo, imiti y'amatungo ni imiti ifasha amatungo gukura neza ndetse no kwivura indwara zitandukanye iba yatewe n'ibyatsi yaririye se cyangwa se aho irara na none harimo amapombu y'ubwoko bwose afashwa kugira ngo huhirwe ibintu bitandukanye ibimera cyangwa se gutera inka amatungo.

Alimantasiyo irimo ibintu bitandukanye. Urugero fanta, amagi, ubuki, buleba, ikaba yitwa Seyivi yuwa rayifu, hakaba hari na bandeloli yerekana ibintu bifasha kuhakora isuku.

Cetraf ltd Musanze. Ctraf ni uruganda rukora inzoga zisembuye, akaba ari uruganda akenshi rukorwa kugira ngo hagabanywe inzoga ziva muri Bralirwa.

Inzu y'ubucuruzi ifite amabara ya oranje, ifite n'amakaro ku gisika cyo hejuru, ifite sima y'umutuku imbere haho hakaba hari ibiti by'umwanda bisa nk'igitaka.

Isantire y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bitandukanye kandi ikaba ifite amazu aforumye kimwe, kuko amazu yose agiye azitijwe n'amakaro ku nkuta zabyo , mu rwego rwo kongera isuku ,ndetse no mu rwego rwo kwirinda ko inzu ishobora kwinjiramo amazi.

Ibicuruzwa bya matora byinshi, bikiri mu mashashi, bikiri bishasha, ni ibicuruzwa bicuruzwa kugira ngo ababikeneye babibone, dore ko bikoreshwa mu rugo, hari ukuryama, ibicuruzwa mu isoko ricururizwamo, kandi n'imyenda itandukanye yo kwambara, ndetse hakaba hari n'abantu baba badoda imyenda.

Amarembo ya bare cyangwa se moteri yitwa wani EMU moteli , aya ni amarembo afunguye iyi ni moteri ikora itanga serivisi zo kuraramo haba icyo kunywa nkuko bigaragara kuri banderori yayo aho hariho furi wayifayi endi kopokopo.

Inzu ebyiri, inzu ya mbere y'iburyo isa n'umutuku. Ifite umuryango ufunguye, icururizwamo mitiyu za airtel na serivisi zindi za eyateli. Hari umugabo urimo wambaye ijiri ya airtel. Na ho iruhande rw'iburyo, hariho inzu ifite umuryango ufunguye n'idirishya rifunguye riteye amabara y'umuhondo imbere hariho rigori.

inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ubucuruzi butandukanye ariko itarageramo abantu benshi. Inzu igeretse kabiri, ubwo ni inzu eshatu, hakaba ari inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, hakaba hari icyapa cyanditseho mekisedefudu Musanze, bikaba bigaragaza ko bagenda bateka cyangwa se bavangira ababagana ibiryo kugira ngo barye ibiryo bifite intungamubiri zihagije.

Icyapa cyo mu migano kirangisha bare na resitora na kofi, kiriho imeri uwase kerema. Icyapa gisa n'umukara kiri mu migano imbere y'ururabo rw'icyatsi.

Inzu y'ubucuruzi n'imari, ndetse akaba ari inzu itanga serivisi z'ubwishingizi mu kigo cya Sanram Allians. Kikaba ari ikigo gitanga ubwishingizi bw'ibintu bitandukanye, urugero nk'ubw'imodoka, inzu, cyangwa se ibindi binyabiziga.

Igipangu cyubakishijwe amakoro y'umukara gikorotiriwe na sima iteye irangi ry'umweru, kiriho giriyaje ndetse n'urugi rw'igipangu rusa ubururu. Inzu zirimo mu gipangu zifite amabara y'umukara wererutse.

Banderore ziri ku iduka zerekana ibyo mu iduka bakora, uko bacuruza telefone, ekuteri, banderore, keto, radiyo, abantu bari mu iduka barimo gucuruza ndetse n'abandi bari kugura ibyo bikoresho bya elegitoronike.

Amaringi y'amagare ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu gihe bakora ibinyabiziga, turabonamo amareyo ndetse n'imipine bikaba ibikoreshwa byifashishwa mu gihe bagenda bakora amagare yapfuye ndetse n'amamodoka yapfuye, aho ibyashajwe bisimbuzwa ibishya kugira ngo igikoresho kigumane ubuziranenge bwacyo.

Umuntu uri kwigisha imbere y'abantu mu iteraniro, inyuma ye hari ho ibitambaro, hari ho n'imikeka y'amabara atandukanye, hakaba hari na puratifomu yigishiriza ho, igihe aba yigisha mu gihe ashatse kugira icyo arambika, ni ho akirambika.

Banki ya Beka iri i Musanze, ishami rya Musanze, imbere ya yo hariho umusekirite ufite imbunda n'umugabo wikoreye umufuka, hari n'undi mugabo ugiye kwinjira muri iyo banki.

Banderore yamamaza koperative twihangire umurimo ko tumu mu Gakenke, ndetse n'iduka ricuruza ibyo kurya bituruka ku buhinzi harimo inanasi, amatunda, ibishyimbo, imineke ndetse n'ibitoki. Akaba ari abacuruzi batatu bagenda bagurisha ibyo bihingwa.

Urupangu rufite urugi rwa giriyage, rujya gusa nk'icyatsi, imbere hariho akajaderi karimo umukindo hakabaho n'indabo, ikigi pangu amadirishya yacyo ariho banderore, inyuma hariho inzu ifite anteni, anteni yifashishwa hakabutwa amasinyari, kugira ngo harebwe televiziyo.

Abacuruzi batandukanye bacuruza ibintu bitandukanye mu isoko ry'ibiribwa, urugero: nka dodo cyangwa se ibindi bintu bitekwa ako kanya. Ibi ukaba usanga bikunze kuba mu isoko, agace runaka usanga karahariwe amasoko y'ibiribwa.

Amaduka acuruza imyenda akayicururiza hanze, imyenda y'amoko yose, amajipo, amashati, ndetse n'amasakoshi, ndetse hakaba hari n'abacuruza imyenda yihariye yambikwa ibipupe.

Inzu nini ikorerwamo ubucuruzi buzwi nka supamakete, aho abacuruzi baba bari ku byuma bya elegitoronike barimo bareba urujya n'uruza rw'abaje guhaha ndetse n'abahaha ntabwo bahita bishyura amafaranga bayi kashi, ahubwo bategereza igihe bari barangirize guhaha, bakabaha fagitire, hanyuma bakishura. Iri soko rikunze kuba ahantu hari imijyi kuko rikorana na tekinoloji.

Urujya n'uruza rw'abantu mu isoko ,iri rikaba ari isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye ,harimo imiryango ifunze, hari ifunguye ,bakaba bacuruza ibintu byose bitandukanye, umuntu ashobora gukenera ,mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ubwoko bw'isoko rya superimarishe rikoreshwa mu gihe abagura batajya batanga amafaranga diregite mbere yo gufata ikintu cyangwa se nyuma. Ahubwo babanza guhitamo ibyo bashaka, ibiciro biba bizwi, hanyuma inyuma y'aho ukaza kwishyura nyuma. Ubu ni uburyo bukoreshwa cyane cyane ahantu h'imijyi.

Iduka ricuruza imyenda itandukanye higanjemo amakabutura y'umutuku ndetse imikandara, amabogisa, amakariso, amasogisi ndetse n'ibindi bitandukanye. Nanone harimo amasogisi y'ubwoko bwose, ibi bikaba bicuruzwa kenshi na kenshi mu isoko kugira ngo uwaje aje guhaha ibindi nabyo nabibona yibuke ko abikeneye abigure.

Isoko ritaratera imbere aho ibicuruzwa biba birambitswe hasi, aho kugira ngo birambikwe ahantu byabugeneye. Iri soko hakubiyemo imyenda y'ubwoko bwose amapantaro, imipira, amatisheti ndetse turimo kubona n'umwana uhetswe mu mugongo n'umubyeyi uri gucuruza iyo myenda. Ubu rero akaba ari isoko rikoreshwa mu cyaro.

Isoko ricuruzamo imbuto z'amoko atandukanye wotameloni, imyembe, amaronji, amacunga abari ku giciro runaka cy'isoko bafata kugira ngo kibarizwemo imbuto.

Ibisafuriya byashaje， amaringi y’igare yashaje, ndetse n'ibindi bitaro byashaje，ibi bikaba bizwi nk'injyamane， aho ibintu byashaje bigenda gukusanywa，bikazasubizwa mu ruganda， bushongeshwa hakavamo ibishya.

Isoko bacuruza imyenda: Isoko ryo hasi abacagura bar imo gushaka imyenda, bashaka imyenda yiganjemo udupira, ndetse n'umucuruzi wa two akaba afashe kamwe mu udupira duhari k'umutuku.

Urujya n'uruza rw'abantu mu isoko ricuruza ibiribwa, aho bari kugenda bahaha ibiribwa bitandukanye, urugero nka karoti, puwavuro, inyanya ndetse n'intoryi. Nanone bari guhaha imiteja ndetse n'ibishyimbo. Ubu buryo bukoreshwa n'abaturarwanda, aho bagenda mu isoko bagahaha ibintu baba bateza iwabo hakubiyemo n'ibi by'imboga.

Ibikoresho bikoreshwa mu masuku yo mu rugo urugero imibirikira, imitozo y'amata kupongere, amaga utuyunguruzo ibi byose akaba ari ibikoresho bikoreshwa mu masuku yo mu rugo.

Amatoroshi agura amafaranga make kuruta andi matoroshi yose. Akaba udutoroshi tuba turimo amabuye atatu ya mirongo itanu ndetse akaba ari n'udutoroshi tw'amabara atandukanye. Tukaba tutarama dore ko tutarenza igihe kingana n'iminsi irindwi.

Inzugi ebyiri za esanseri, hari n'ibyapa bibuza abantu kunywera itabi. Iki cyapa kiba kiri kuri esanseri yose, kuko ari uburyo bwo kugira ngo bafate neza iyo esanseri.

Isoko ry'ubucuruzi，ricuruzwamo ibintu bitandukanye， goyiko puraza akaba ari isoko riherereye i Musanze， ricuruzamo ibintu bitandukanye n'abacuruzi batandukanye， ibintu by’ingeri byose， serivisi za banki zirimo， imyenda，inkweto， ibintu byinshi ubisangamo ku gihe.

Iduka cyangwa se inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibitambaro，ibitambaro by'amoko yose ubururu， n'umutuku，oranje, pinki，icyatsi，umuhondo， ndetse akaba ari ibitambaro bicuruzwa， kugira ngo bidodwe， ndetse ushobora no kukigura bagahita bakikudodera.

Igihingwa c'imbuto ciganjemo amatunda y'umuhondo ndetse n'ay'icyatsi bihingwa. Izi mbuto zifashishwa mu gihe havurwa indwara zigiye zitandukanye z'umubiri, ndetse no kongera imbaraga mu mubiri. Ibi bihingwa kandi na none ni ibiryo bikunda kuribwa n'abantu barwaye.

Butike icuruza imbuto z'amoko atandukanye ibinyomoro, ibipapayi ndetse n'amatunda. Izi zikaba ari imbuto ziribwa cyane cyane kugira ngo hongerwe ubudahangarwa bw'umubiri, ndetse bimurinde no kuba yarwara indwara zitandukanye urugero nk'izo mu nda ndetse n'indwara zo kubura vitamine.

Urujya n'uruza rw'abantu mu isoko hari imitaka ya emutiyene iri mu mabara y'umuhondo, n'umucuruzi wa mitiyu wambaye ijire y'umuhondo.

Inyubako y'ubucuruzi cyangwa se isoko. Iri akaba ari isoko ricururizwamo ibiryo cyangwa se ibihingwa, aho hacuruzwamo ibintu byo kurya bitandukanye, ibitunguru, avoka n'ibindi. Kandi n'isoko riteye imbere kuko ari isoko rigeretse hakaba risakariye ku muntu waba ushaka kujya mu byumba byo hejuru.

Ubucuruzi bukorerwa mu isoko， bukaba ari ubucuruzi aho basasa ishashi hasi cyangwa se ihema， bakarambikaho ibicuruzwa byabo， ari by'imyenda y'amoko atandukanye， amapantaro， amashati y'udupira，ndetse n'amakabutura， kugira ngo bigurwe kandi bukaba ari uburyo bukoreshwa n'abantu bataragira iterambere， hatari inyubako zabugenewe.

Butike icururizwamo :amavuta yo kurya ,amakaroni, onja, ibitunguru, magi ,tungurusumu. Onja ikaba iri mu gakarito na makaroni ari mu ibase

Isoko ry'ibiribwa birimo intoryi, beterave, inyanya ririgucuruzwamo n'abagore. Imbere y'aho hari agatete kifashishwa mu guhaha aho gatwarwamo ibyahashwe bikagezwa ku icumbi.

Isoko harimo ibicuruzwa bitandukanye karoti, inyanya n'inyanya zigiye, ndetse hakaba hari na dodo. Ibi ni ibimenyetso usanga mu isoko biba byikubiwe n'umuntu, umwe kugira ngo ahaze ibyifuzo by'abakiriya benshi.

Isoko ry'ibiribwa hakubiyemo imbuto turabona; pome, na marongi, wotameloni, amapapayi, ibinyomoro, ndetse n'imyembe ibika ari ubwoko bw'ibiribwa by'imbuto kenshi na kenshi biribwa kugira ngo honge ubudahangarwa bw'umubiri ndetse no kwirinda indwara.

Isoko ry'ibiribwa, ariko isoko ricuruza inyanya, inyanya zipanze neza ku murongo, inyanya z'umutuku zihiye, ndetse ibi bifasha abacuruzi kugira ngo bakire abakiriya ku murongo, kandi babikore kuri gahunda.

Isoko ricuruza ibitunguru ni byo byiganje mu isoko, aho urujya n'uruza, bagenda babihaha kandi abaricuruza akenshi iyo baba biganjemo abamama, aho baba babifunze mu bice by'amafaranga bitandukanye bagafunga ibya maganabiri, iby'ijana se, ibya maganatatu, ibyamaganane. Bukaba ari uburyo bukoreshwa kugira ngo babashe kugurisha ibitunguru byabo neza.

Urujya n'uruza rw'abantu mu isoko, aho baje guhaha ibiribwa by'amoko atandukanye akubiyemo imbuto z'ubwoko butandukanye: inyanya, amacunga, amaronji, wotameroni ndetse n'ibipapayi. Akaba ari isoko akenshi riba ahantu muri karitsiye kugira ngo abatuye hafi y'iryo soko babone ibyo bahaha bitabagoye.